Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuhagurira. Harimo amata y'abana, hakabamo imiti yagenewe abantu bakuru n'abatoya.

Amakoro ni amabuye meza cane，akunzwe n'abaturage hijya no hino， aboneka mu gice c’amajyaruguru i Musanze. Bayubakisha amazu agakomera neza.

Ibimera ni byiza bifasha guhumeka neza, bigafasha abana kubavura indwara zitandukanye n'abantu bakuru, nabo bakunze kubikenera cane.

Amakoro ni amwe mu mabuye akunze kugaragara mu bice byo mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Aho usanga agaragara neza cane. Bayubakisha amazu akabasha gukomera neza. Ndetse haba n'uturabyo twiza duhumura neza cane.

Amakoro ni amwe mu mabuye menshi atandukanye hirya no hino. Akunze kuba i Musanze mu gice cy'amajyaruguru, aho abaturage bakunze kuyubakisha amazu agakomera cane.

Sipure ni kimwe mu bimera byiza cane. bidufasha mu buzima busanzwe, harimo kuvura abana inzoka ndetse n'abantu bakuru. Idufasha kwirukana ubuzizi mu nzu.